Umurima uhinzemo amashu, aho muri uwo murima hari umuntu uri kugenda ayuhira, ahetse imppombo ndetse akaba yambaye n'agapira k'umutuku n'ipantaro isa icyatsi.

Ubuhinzi bw'umuceri bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda. Aho muri iki gihe, hari abantu basigaye bahinga umuceri, barabigize umwuga, bakawitaho, hanyuma bakawutera umuti, maze wajya kwera ukabaha umusaruro uhagije.

Umugabo wambaye isarobeti y'umukara akaba yambaye n'udupfuka ntoki tw'umutuku ahetse n'ipombo mu ijosi, ari kugenda yita ku murima we uhinzemo ibigori ari kureba ko byamererwa neza.

Umu uri mu murima we yateyemo amokoko agiye atandukanye y'indabyo akaba ari kugenda ayatera umuti kugira ngo yice udukoko dukunda kuzifata maze azazigemure ku ruganda wabugenewe maze abona umusaruro.

Umugabo wambaye ikabutura n'agapira, akaba ahetse ipombo, aho ari kugendera mu murima we w'amashu agenda ayatera umuti. Ni byiza cyane kwita ku mashu yawe.

Ahantu bacuruza amoko agiye atandukanye y'imbuto aho izi mbuto zifashishwa mu buhinzi haba hari umuntu wabugenewe ugenda apimira buri wese udashaka kugira ngo abone uko yishyura.

Umusore ukora umwuga w'uburobyi, akaba afashe indobani mu ntoki, irimo ifi, bigaragaza ko ari ifi nziza cyane amaze kuroba, none akaba agiye kujya kuyigurisha.

Ubworozi bw'amafi nabwo bukomeje gutera imbere cyane muri uru Rwanda, aho muri iki gihe hari abantu basigaye bororera amafi mu byuzi, bakayagaburira, hanyuma bakajya bajya kuyaroba.

Ahantu mu gishanga hari ubutaka bwagiye busanje burimo itaka rijya gusa umweru, hakaba ari ahantu hagenewe kurobera, bigaragaza ko banyiraho batarahagera.

Umuntu wagiye kuroba amafi none akaba afashe ifi, akaba yayasamuye ari kugenda ayivanamo ibintu yari yaramize. Uburozi bw'amafi rero bukomeje kurushaho gutera imbere cyane mu Rwanda.

Ubworozi bw'amafi nabwo bumaze gutera imbere cyane mu rwanda muri iki gihe, aho hasigaye hari abantu borora amafi barabigize umwuga, hanyuma bakagenda bashyiramo imiti ituma amafi ari mu mazi abyibuha.

Uburobyi bw'amafi bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda aho muri iki gihe hari abantu basigaye barabigize umwuga hanyuma bakita ku burobyi bwabo bakabuteza imbere maze bakabona amafaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa ni ingenzi cyane kuko ikawa ari kimwe mu bihingwa ngengabukungu, bikunze gutanga umusaruro cyane mu Rwanda maze abantu babihinga bagatera imbere.

Umugabo uhetse umufuka urimo ibyatsi akaba ari kugenda imbere y'umurima uhinzemo ibihingwa ngengabukungu by'ikawa aho yabihinze none akaba abaje kubisasira.

Ahantu mu gishanga, ahagenewe guhingwa ibihingwa ngengabukungu, bizwi nk'umuceri, bikunda guhingwa ahantu harimo amazi menshi cyane, iyo bikiri bito, hanyuma byamara gukura bakabirinda inyoni.

Umurima uhinzemo icyayi aho hari kugendamo umuntu uri kugenda agisoroma agishyira mu gafuka kabugenewe kugira ngo bakigemurire imodoka maze ize kubateza imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho aho mo imbere hari icyumba kirimo udushashi turimo amoko agiye atandukanye ry'imiti yifashishwa mu kuvura amatungo kugira ngo barebe ko ayo matungo yakira.

Inyubako nziza cyane itangirwamo serivisi zigiye zitandukanye by'umwihariko nk'imiti y'amatungo, aho bavura amavungo indwara nyinshi zigiye zitandukanye. Ni byiza ko nawe igihe itungo ryawe ryaba rirwaye, warizana bakarivura.

Uducupa tugiye dutandukanye turimo amoko agiye atandukanye y'imiti, aho iyi miti yifashishwa mu kuvura inkoko igihe cyose ziba zagize ikibazo ni byiza cyane kuzitaho.

Amoko agiye atandukanye y'imiti ikunda gucuruzwa mu iduka ricuruza ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo, ikunze kwifashishwa, bavura amatungo, indwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Agakarito k'agashashi k'umweru n'umutuku, kaba karimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu kuvura amatongo aho iyi miti ari ingenzi cyane kuko bituma amatungo amererwa neza cyane.

Umugabo uri mu murima ari guteramo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho ibi bihingwa ari ingenzi kuko bibasha kuba byamuha umusaruro mu gihe kiri imbere maze agakirigita ifaranga.

Umurima w'ibigori wahuriyemo abantu bagiye batandukanye aho higanjemo umusore ndetse n'umukobwa n'abandi batagaragara neza bakaba bari kugenda babyuhira kugira ngo barebe ko byabateza imbere.

Umugore uri mu murima we uteyemo imboga akaba ari kugenda azitaho, yambaye umupira w'ubururu ndetse akenyeye n'igitenge bigaragaza ko ari umuhinzi wa kijyambere.

Umurima uhinzemo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa aho ibi bihingwa ari ingenzi cyane ku buryo iyo umuntu abihinze mbwe akabyitaho bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

Pipinyeri ni ahantu h'ingenzi cyane kuko abantu bahifashisha bari kuhahumbika imyaka ndetse bakahatera n'imbuto bakazivomera ziri mu bihoho zamara gukura bakazimura.

Umugabo uri mu murima we w'ibigori, akaba yambaye agapira karimo amabara agiye atandukanye, akaba ari kugenda yicira ibigori, ashakamo ubwatsi bw'amatungo ye y'inka.

Umugore uri mu murima uhinzwemo ibihingwa bijye bitandukanye, akaba yambaye ikanzu ndetse na furari mu ijosi, ari kugenda abagarira kugira ngo bize kurushaho gutera imbere.

Umugabo wambaye agapira k'icyatsi akaba ari gutera urubuto rwa avoka mu murima ,bigaragaza ko ashaka guteza imbere umwuga w'ubuhinzi ,kugira ngo arebe ko yazakirigita ifaranga.

Umugore w'umuhinzi, wahawe icyemezo cy'ishimwe, akaba ahagaze mu murima we w'urutoki, arimo agenda yerekana icyo cyemezo cy'uko ari umuhinzi wabigize umwuga mu Rwanda.

Ahantu hari ibyatsi byiza cyane biri gusa icyatsi, hakaba harimo n'umuceri uteye muri uwo murima, bigaragara ko ari umuceri wumye ugeze igihe cyo kuba wasarurwa.

Ahantu mu gishanga, hateyemo amoko agiye atandukanye y'umuceri, aho uyu muceri wamaze gusarurwa, none bakaba bari kuhahinga ngo babe bahatera undi muceri batera imbere.

Ubuhinzi bw'ibigori burushaho gutera imbere cyane muri iki gihe. Aho hari abantu basigaye bahinga ibigori barabigize umwuga, bakabyitaho kugira ngo bizabashe kubateza imbere hanyuma bakirigite ifaranga.

Ubusitani bwiza cyane aho hepfo yabwo hari ubutaka bugari cyane wateyemo amoko agi atandukanye y'ibihingwa, aho ibi bihingwa ari ingenzi cyane kuko umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere.

Umurima uteyemo amoko agiye atandukanye y'ibimera, aho hariho bimwe mu bimera bitanga umusaruro maze umuhinzi wabyo bikamuteza imbere, agakirigita ifaranga, agasezerera ubukene.

Umurima urimo ikigori cyumye bigaragara ko iki kigori ari ingenzi cyane, ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda ku buryo bisigaye biteza imbere nyirabyo.

Umurima uteyemo ibigori ariko bimaze kuma, aho ibi bigori ari ingirakamaro cyane ku buryo iyo umuntu abyizeho, akabihinga mu buryo bugezweho bibasha kumuteza imbere cyane.

Ni byiza cyane ko muri iki gihe abantu bajya bihaza mu bihingwa kuko iyo umuntu ahinze nk'inyanya cyangwa imbuto n'imboga, akabyitaho bibasha kumuha umusaruro mu gihe kizaza.

Ubuhinzi bw'ibitunguru bukomeje gutera imbere cyane aho abantu basigaye babihinga bagenda babivanga na karoti, bakabyitaho kugira ngo bizabashe kubateza imbere maze bakirigite ifaranga.

Ubuhinzi bw'ibigori bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe aho hari abantu basigaye bahinga ibigori barabigize umwuga, bakabyitaho kugeza igihe bizakurira hanyuma bikabaha umusaruro bagakirigita ifaranga.

Ubuhinzi bw'ikawa ndetse n'avoka ni ingirakamaro cyane kuko umuhinzi wabihinze bibasha kumuteza imbere cyane mu gihe kizaza maze agakirigita ifaranga agasezera ku bukene.

Imbuga iteyemo igiti cy'umwembe, aho iki giti ari ingenzi cyane kuko iyo umuntu agiteye mu rugo rwe kigenda kimuha umusaruro w'imbuto maze akamererwa neza.

Ishyamba rinini cyane riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti bizana umuyaga n'amahumbezi, hakaba harimo inka ziragiwe n'umuntu aho izi nka ari nziza cyane, nyirazo ari kwikomanga mu gituza.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti aho ibi biti ari igenzi cyane kuko iyo umuntu abihinze bibasha kumuteza imbere mu buryo bw'amafaranga ndetse n'umusaruro.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingenzi cyane kuko umuntu wabihinze bibasha kumuteza imbere maze agakirigita ifaranga agasezeraho ubukene.

Umurima munini cyane, uteyemo amoko a atandukanye y'ibihingwa. Aho hari ishyamba rigari kandi rikikijwe n'imirima iteyemo umuceri ndetse n'indi myaka.

Umurima munini cyane wateyemo amoko menshi agiye atandukanye y'ibiti, aho harimo bimwe binini by'inganzamarumbo bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi, ndetse muri uwo murima hakaba haziritsemo ihene.

Isoko ricururwamo amoko agiye atandukanye y'ibihingwa by'imbuto ndetse n'imboga ,aho haba harimo abagore babigize umwuga, ukagenda bakakugurisha icyo ushaka ku mafaranga make.

Umugore uri mu murima uhinzemo ibinyomoro aho ari kugenda amanura ibinyomoro kugira ngo abone uko abyifashisha avura indwara zigiye zitandukanyekanye abana be.

Umurima uhinzemo amoko menshi cyane agiye atandukanye'rusenda. Ubuhinzi bw'urusenda rero nabwo bwarushijehotera imbere cyane mu Rwanda, aho umuntu asigaye aruhinga akarwitaho hanyuma rukazamuha umusaruro.

Umuntu ufite igikoresho cyifashishwa mu kuhira imyaka kizwi nka rozwaro, akaba ari kugenda yuhira karoti ze yateye ahantu mu gishanga, none izuba ryavuye ayo kugira ngo biticwa n'izuba.

Ibihingwa by'imbuto biteye ku murongo aho ibi bihingwa ari ingirakamaro cyane ku buryo umuntu wabihinze bimuteza imbere maze agakirigita inoti, agasezera ku bukene.

Umuntu wahinze imboga za ndamutebekanye ahantu, none akaba afite igikoresho cyabugenewe ari kugenda azuhira kugira ngo zimererwe neza, hanyuma zizatange umusaruro utubutse.

Ikiyaga gikikijwe n'imifunzo, aho iki kiyaga kirimo amazi meza cyane kandi menshi, aho harimo akazu gakurura amazi, bifashisha bari kuhira imyaka, iherereye hafi aho.

Igishanga cy'umuceri, giteyemo umuceri mwinshi cyane, aho uyu muceri ari ingenzi cyane, ku buryo iyo umuntu awuhinzeho, akawitaho, ubasha kumuha umusaruro, maze agakirigita ifaranga.

Umugabo wambaye inkweto za kamabiri, akaba yambaye ipantaro yayihinnye, afite ibinika mu ntoki, aho ari kugenda yuhira ibihingwa bye kugira ngo birusheho kumuteza imbere.

Umuhanda urimo abantu bafite amasuka bagiye batandukanye aho aba bantu bambaye n'utujiri none bakaba bari bari mu gikorwa cy'ubuhinzi none bakaba bahuriye hamwe bari kwiyandika.

Ishyamba riteyemo amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho ibi biti ari ingirakamaro cyane ku buryo bibasha kuduha umwuka mwiza duhumeka ndetse no kudukururira imvura.

Agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti kakaba kagucumbamo umwotsi bigaragara ko ibyo biti bagenda babitwikamo amakara, hejuru hari ikirere kiza kiri gusa umweru.

Agasozi gateyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti ndetse n'imyaka, aho ari ingenzi cyane ku buryo umuntu wabihinze, bibasha kumuteza imbere cyane maze agakirigita ifaranga.

iIkyaga kiza cyane kandi kinini kirimo amoko agiye atandukanye y'ubwato aho ubu bwato butwara abagenzi, kikaba gikikijwe n'imisozi myiza cyane.

Mu dusozi twiza cyane tugiye dutandukanye, aho udusozi turiho ibihingwa byinshi cyane bigiye bitandukanye, hariho ibiti ndetse hakaba hateyemo n'icyayi, ubu buhinzi rero ni ingenzi cyane.

Amoko y'ibiti agiye atandukanye ,aho ibyo biti biba biteye ku muhanda . Ni ingenzi cyane kuko aya moko agiye atandukanye y'ibiti adufasha kuba twakwiteza imbere cyane igihe twabihinze.

Umurima mugari cyane uriho imisozi igiye itandukanye, aho iyi misozi iteyeho amoko agiye atandukanye y'ibiti, aho hariho bimwe bizana umuyaga ndetse n'amahumbezi.

Muri iki gihe ubworozi bw'inkwavu bwarushijeho gutera imbere, aho basigaye bazororera mu biraro byubakishije ibyuma bakaziheramo ibyo kurya ndetse n'ubwatsi, hanyuma bikabasha nabo kubateza imbere cyane.

Ubworozi bw'inka, bukomeje gutera imbere cyane mu Rwanda, muri iki gihe. Aho hari abantu basigaye bazorora barabigize umwuga, bakazitaho hanyuma zamara gukura zikabaha umusaruro, maze bagatera imbere.

Ubworozi bw'inka bumaze gtera imbere cyane mu rwanda muri iki gihe, aho basigaye borora inka nziza cyane z'inyambo zifite amahembe, zikaba arika nziza zikundwa no mu muco nyarwanda.

Ubworozi bw'inka bumaze gutera imbere cyane aho muri iki gihe, inka basigaye bazivura mu gihe ziba zagize ikibazo runaka, hanyuma bakazitaho zikabasha gukira hanyuma zigateza imbere nyirazo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane muri iki gihe, aho hasigaye hari abantu borora inka barabigize umwuga, iyo zigira ikibazo bazishyira ahantu habugenewe, hanyuma bagahamagara abaveterineri bakaza kuzivura.

Ubworozi bw'inkoko burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'bwo bukeye, aho hari imashini zabugenewe zituraga udujwi hanyuma zikajya zitugaburira tugakura hanyuma nyirazo agatera imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane muri iki gihe aho hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazigaburira amoko agiye atandukanye y'ibiribwa kugira ngo zirye maze zizabateza imbere.

Ubworozi bw'inkoko burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inkoko barabigize umwuga bakagenda bazitaho kugira ngo zirusheho kubateza imbere.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane muri iki gihe, aho muri iki gihe hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, zarwara bakazivuza, zasonza bakaziha ibyo kurya kugira ngo zibahe umusaruro.

Umukobwa uri mu murima we, akaba afite agatebo karimo amoko agiye atandukanye y'imiti, bifashisha bari gutera imyaka kugira ngo iyo myaka itazamungwa mu butaka.

Amoko agiye atandukanye y'imbuto z'ibishyimbo zigiye kwifashishwa mu buhinzi butaha ndetse n'andi moko y'ibihingwa aho harimo ibishyimbo, ibigori, amashaza ndetse n'ibirayi.

Abantu bafashe amoko agiye atandukanye y'imbuto z'ibishyimbo aho hariho bamwe bafashe iby'umuhondo, umweru, umutuku ndetse na kaki bakaba bashaka imbuto yo gutera.

Ubuhinzi bw'ibigori bwarushijeho gutera imbere cyane mu Rwanda muri iki gihe, aho basigaye bahinga ibigori, barangiza bakabihungura bifashishije imashini, bagakoresha intara babigosora, hanyuma bakabisuka mu mifuka.

Ubuhinzi bw'umuceri bumaze gutera imbere cyane muri iki gihe mu Rwanda, aho umuntu asigaye awuhinga hanyuma wamara kwera, ukaba wavamo umusaruro yifashisha mu bikorwa runaka.

Umuntu wize ibijyanye n'ubuvuzi bw'amatungo uzwi nka veterineri akaba yicaye ahantu, ari kugenda akora mu binini kugira ngo arebe ikinini kiza cyabasha kuvura amatungo.

Ubworozi bw'inka bukomeje gutera imbere cyane muri iki gihe aho hari abantu basigaye borora inka barabigize umwuga, bakazitaho zagira ikibazo bakabwira veterineri akaza kuzivura maze bakarushaho gutera imbere.

Inyubako nziza cyane yubatswe mu buryo bugezweho bwa kijyambere y'ibagiro, aho mo imbere harimo inyama hakaba hari umuveterineri uje kuzisuzuma ngo arebe ko zimeze neza nta kibazo na kimwe zifite.

Ibagiro ririmo inyama nyinshi cyane aho igihe cyose babaze itungo, baba bagomba kwegera veterineri maze akaza akareba izo nyama ku zujuje ibyangombwa hanyuma akarivura.

Iduka ricuruza amoko agiye atandukanye y'imiti aho iyi miti yifashishwa bari kuvura amatungo agiye atandukanye kugira ngo akomeze agire ubuzima bwiza kandi atange umusaruro.

Uko ubworozi bw'amatungo burushaho gutera imbere cyane muri iki gihe, ni ngombwa ko tuba dufite abantu b'abaveterineri babyigiye badufasha kwita ku matungo yacu kugira ngo azatange umusaruro.

Ubworozi bw'inka burushaho gutera imbere cyane mu Rwanda uko bwije n'uko bukeye. Aho iyo umuntu yoroye aya matungo akayitaho, abasha kumuteza imbere cyane, maze agakirigita ifaranga.

Inka ziri ahantu mu kiraro, zikaba ari nyinshi cyane zifite amahembe manini, zizwi nk'inyambo, hakaba hari abajeteneri bari kugenda bazisuzuma ngo barebe ko nta kibazo runaka zaba zifite.

Umugabo wambaye isarubeti y'ubururu akaba yambaye n'udupfukantoki mu ntoki. Yambaye n'ingofero aho ari kugenda yerekana uburyoki bavura amatungo y'inka, kugira ngo batere imbere.

Imvubu ni zimwe mu nyamaswa ziba zifite ishusho iteye ubwoba ,aho ziba zibyishye cyane. Zikunze kuba mu mazi hanyuma rimwe na rimwe zikavamo zikajya konera abaturage.

Muri pariki y'igihugu y'u Rwanda, hari inyamaswa zigiye zitandukanye zizi kurira ibiti. Hari iyitwa ingwe, ikaba izi kwirambura no gusimbuka ndetse ikaba ari mbi cyane kuko igira n'amahane.

Intare ni inyamaswa y'inkazi cyane aho izwi nk'umwami w'ishyamba, iryamye ahantu yazuye umugara bigaragaza ko iramutse ibonye akanyamaswa yahita igahitana.

Isatura ni zimwe mu nyamaswa ziba zikaze cyane, aho ziba zifite igihembe imbere, zifashisha ziri gufunga indi nyamaswa ije izifotora maze zikayivugana.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi agiye atandukanye y'inyamaswa. aho hari zimwe mu nyamaswa zibikururanda zizwi nk'ibitera cyangwa se ibihangara.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'akagera, harimo inyamaswa nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Hari izwi nk'inkura, aho iba ifite ibihembe bibiri imbere kimwe ari kinini ikindi ari kigufi ikajya igenda ibyicisha inyamaswa ishaka kuyigirira nabi.

Igishuhe ni zimwe mu nyamaswa ziba mu mazi ziba zizi koga cyane ndetse no kuguruka, izi zikaba zijya kumera nk'imbata ariko zo zizi kuguruka cyane ndetse no koga.

Muri parike y'igihugu y'u Rwanda y'Akagera, haba harimo amoko menshi cyane agiye atandukanye y'inyamaswa zo mu bwoko bw'inyoni, aho hari zizwi nk'imisambi, ziba zifite umusatsi n'amabara meza cyane.

Ingagi iri kugenda ahantu mu murima ikaba ari inyamaswa ijya kumera nk'abantu, dukunze kuzisanga muri pariki y'Igihugu y'Akagera ndetse na parike y'Ibirunga iherereye i Musanze.